Umugabo w'urukara wicaye wambaye ikoti ryirabura. Inyuma ye hari abandi bantu, umwe yambaye itaburiya y'umweru ameze nk'umuganga. Abandi bameze nk'abaje kwaka serivisi. Muri iyo nzu, harimo ibikoresho birimo udutebe, yubakishijwe amatafari ahiye.

Aka Etajeri kariho ububati bwinshi , gateretse imbere ahantu hari amakaro , hirya hari inzu igikuta cyayo gifite amatafari ahiye , n'isentire y'umuhondo.

Umuntu uhagaze ahantu hari amakararo, ku nzu basa n'aho bacururizamo ifite amadirishya afite amabara ajya kuba nka move. Imbere ye hateretse agatabureti n'ikirahuri kijimye hejuru n'amatafari ya Ruriba.

Inzu yubakishijwe amatafari ya ruriba hariho na cya kintu cya kizimyamoto, ifite ibirahuri bisa neza n'akasikariye hirya imbere yacyo hari amakaro yubatse akikijwe n'ikintu cy'umukara kizamutse cy'igikuta.

Abanyeshuri bambaye imyenda ya kaki n'umweru. Harimo abambaye imipira y'imbeho babiri, n'abambaye imyenda ya siporo hagati, hari umwarimu ku ruhande ufite ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara.

Abantu bari kudoda imyenda bose bambaye imyenda y'umweru hejuru, inyuma yabo hahagaze umugabo wambaye ishati y'icyatsi, bose bafite imashini.

Abanyeshuri bambaye amataburiya bari mu cyumba kirimo ibyuma bya laboratware, hubakishijwe amakaro mu nzu ifite ibara ry'ubururu, hari n'akayetajeri gateretseho imiti.

Abanyeshuri bambaye amasarubeti ya kaki. Bari gukora utuntu tw'utwuma twa eregitoroniki. Hari n'ikintu kimeze nk'igifirigo, gifiteho ibara ry'ubururu. Iyo nzu yubakishijwe amatafari ahiye ifite n'idirishya ry'umweru.

Abanyeshuri bambaye imyenda y'umweru hejuru, hagati yabo hahagaze umuntu w'inzobe ufite ubwanwa, yambaye ikoti ry'umukara, hirya har'ibindi bintu by'ubururu n'ibindi bivangavanze mu nzu y'umweru ifitemo n'amatara y'umweru, n'amadirishya, byose urabona ko bisa neza.

Abanyeshuri bicaye b'abakobwa, imbere yabo hateretse amamashini yo kudoda, hari n'igitambaro cy'umutuku, hirya hari abandi babateye umugongo bahagaze.

Abana b'abanyeshuri bambaye iniforume z'ubururu, mu ishuri rifite amatafari ahiye no hejuru, ibirahuri byumukara. Bafite impapuro mu ntoki bashushanyijeho bicaye ku ntebe zamaba.

Abanyeshuri bose bunamye mu makaye yabo, bari kwandika. Bambaye impuzangano hasi umutuku, hejuru umweru.

Abantu bane barimo abakobwa babiri n'abahungu babiri, bose bambaye amataburiya y'umweru. Umwe afashe mu ntoki icupa n'ikaramu bari mu nzu imeze nkaho ari farumasi.

Abanyeshuri bambaye imyenda y'ubururu n'umweru. Bicaye mu ishuri rifite ameza y'bururu. Imbere ya bo harambitse impapuro z'ubururu. Hari umuntu ufashe agakoni, wicaye imbere ya bo.

Abakanishi bari gukanika imodoka bambaye amasarubeti y'icyatsi. Umwe yambaye ubururu, hirya yabo hari udukiyosike turiho ibyapa n'inzu ifite ibati rishaje , munsi y'ishyamba ritari ryakura neza.

Abanyeshuri bari gukoma amashyi bazamuye amaboko. Bambaye imyenda y'ubururu hasi, hejuru umweru. Imbere yabo ni amapave, bahagaze iruhande rw'inzu isize amabara rw'umuhondo.

Umuntu w' umumama wambaye imyenda y' amataburiya, n' ingofero, n' amaherena ari ahantu munsi y' ikizu giteyemo, ibintu bimeze nkibihoho, afashe kimwe mu ntoki, yegamiye ku gasima hejuru, hari ahantu h' umweru dede n' ibiti by' ibyuma.

Abanyeshuri bari mu ishuri. Bambaye udupfukamunwa. Harimo babiri bambaye imyenda isa, igiye kuba ubururu. Imbere yabo hari umwarimu wambaye itaburiya ari kwandika ku kibaho. Ni ishuri rifite borokesima hejuru. Ndetse hari n'ibindi bibara by'umukara hirya. bicaye kuri ba.